Muganga arimo aratera umubyeyi urushinge, biragaragara ko uyu mubyeyi yatinye urushinge barimo baramutera, yambaye agapfukamunwa k'umukara hari n'abandi bantu bahagaze inyuma ye, umuganga biragaragara ko ari umusitajeri.

Ababyeyi bahuriye hamwe bicaranye n'abana babo, bigaragara ko bahuriye ku kigo nderabuzima bari guhabwa amabwiriza ndetse no gukingiza abana.

Abana babiri umuhungu n'umukobwa, bagiye kwivomero gushaka amazi, umukobwa yateretseho akajerekani ari kuvoma, umuhungu ari kumufasha kugira ngo amazi aze.

Itsinda ry'abantu bahujwe no kumenya imikurire y'abana, bicaje ababyeyi n'abana babo, bari kwita ku bana batoya babahereza ibyo kunywa kugira ngo bave mu mirire mibi.

Umwana ari ku ivomero yahashyize indobo ari kuyivomera yateretse ibiganza bibiri ku ivomero ashyiraho umunwa, ari gushaka kunywa amazi inyota yarimwishe yambaye agakabutura k'umutuku, inkweto z'ubururu.

Akana gatoya karyamye ku gitanda kari kumwe na mama wako, hari abaganga bari kukitaho bagatera ishinge babiri, iki cyumba gifitemo amarangi y'icyatsi.

Abana batoya bari ku ishuri bageze mu masaha yo gukina, bagiye ku ruvomero bose bunamye bashyizeho ibiganza, bari gushaka amazi bari gukaraba ibiganza byabo.

Abantu bambaye imyenda isa, basa n'aho bahuguwe ku bijyanye n'ubuzima cyane cyane ku mirire, bari kumwe n'ushinzwe umutekano bari kureba ibyo bakora hari n'uri kubisobanura neza, ibintu bari gutera bijyanye n'imboga rwatsi.

Ihuriro ry'abantu benshi, bahuriye ahantu. Hari abantu batandukanye, abahetse abana, abagabo ndetse n'abagore. Baje kwigishwa uburyo bakwita ku buzima bwabo, ndetse bakita no ku buzima bw'abana babo.

Mu kigo nderabuzima hari ababyeyi bicaye hanze inyuma yaho hari ubusitani bicaranye n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, umwenda w'akazi yabashyizeho ibipimo ku kuboko bigaragara ko ari kubasuzuma kugira ngo umenye aho ubuzima bwabo buhagaze.

Abantu batandukanye harimo abambaye agapfukamunwa, hari umubyeyi uteruye akana hari umukoranabushake uri kumutonyangiriza umuti mu kanwa, bisa naho umwana barimo baramuha imiti akeneye.

Icyapa kimanitse ku gikuta cy'umweru, kiri mu mabara y'ubururu harimo umubyeyi uteruye akana mu kirangantego cy'icyo cyapa, hariho umushinga ufasha abana mu mibereho yabo.

Uruhurirane rw'abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye bahuriye mu icyumba cy'inama gifite amabara yijimye bigaragara ko baje mu gikorwa cyo kwiga ku buzima.

Umwana muto asa n'aho ari gukinisha indobo ifite umufuniko w'ubururu, ishobora kuba irimo amazi. Iteretse ku gatebe kari hasi.

Abana bato bari ku ivomero, bateze indobo bari kugenda bavomeramo amazi, abana bararutana, inyuma yaho hari igiti gifite amababi y'icyatsi.

Muganga yambaye itaburiya y'umweru, ari guha umuti akana gatoya gateruwe na mama wako, inyuma urugi ntabwo rufunze ruri mu ibabara ry'icyatsi, igikuta gifite ibara ry'umuhondo werurutse.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amabara yerurutse, hari umuganga uri imbere y'abaturage, yambaye itaburiya y'umweru, ari kubahugura ku bijyanye n'ubuzima bwabo.

Umubyeyi uri ku iriba cyangwa ivomero ari kuvoma mazi mu ijerekani akikijwe n'imisozi iteyeho amashyamba ahantu wagira ngo ni mu kibaya.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu batandukanye batari benshi, ku meza yabo hari udukombe bamaze gufata agacyayi ko kunywa, barikwihugu cyangwa bari kwiga, ku bijyanye n'ubuzima buryo mabwiriza.

Akana gato kari ku ivomero kafunguye amazi ari kumeneka mu biganza byako, kambaye ishati y'umutuku kishimiye uburyo kagiye kunywa amazi, kize ko amazi ari ubuzima.

Umwana muto ari ku ivomero yahindukiye ari guseka yambaye imyenda ifite amabara y'iroze n'umweru wijimye, afite amajerekani atatu ari kuyashyiramo amazi.

Muganga yambaye itaburiya y'umweru ari guha akana umuti kugira ngo atabare ubuzima bwako. Gateruwe na mama wako bicaye, muganga arahagaze. Inyuma hari urugi rw'icyatsi, hari amabara y'umweru wanduye.

Ivomero riri ahantu hiherereye hari imisozi, hari umukobwa uri inyuma y'ivomero uri gufasha abana kugira ngo babone amazi, bafite utujerekani amazi ari kujyamo, hirya yaho hari imodoka y'umweru isa n'aho iri kuza ibasanga.

Umusore wicaye hasi, yashashe ibintu by'ibitenge, yambaye igitenge na we, yiziritse amaguru ari ahantu hasa nabi. Asa naho afite ikibazo cyo mu mutwe, yifashe ku mutwe ari kwibaza ibyo ari byo.

Umugabo uri guseka cyane yambaye umupira w'ubururu, ari ahantu hari amabara yerurutse. Uyu muntu birasa nkaho afite ikibazo ku bijyanye n'ubuzima. Ahobora kuba ufite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe.

Umubyeyi ahagaze mu cyumba k'inama, imbere yiwe hari imeza y'umweru, ifite ibara ry'ubururu, hari uturangururamajwi, ari ahantu hari amabara yijimye nayerurutse, ari kubwira abantu uburyo bagomba kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umubyeyi yambaye umwenda w'imbeho, yikoreye agatebo karimo ibyatsi byinshi, afite umuhini mu ntoki asa n'aho yishimye ariko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo cyangwa umusore afite ikibazo cyo mu mutwe, ahagazeiruhande rw'ikamyo cyangwa ikimodoka kinini, yambaye ibyenda bicikaguritse, afite imifuka ku mpande ze, yisize ibintu by'umukara mu maso.

Umujyanama w'ubuzima ari gupima umwana umuriro, ari kwereka mama w'umwana uko igipimo cy'umuriro kingana yafashe, inyuma yaho hari inzu y'ibiti y'imbaho.

Umwana muto ari ahantu hari amabara yerurutse, afite uburoso bwoza amenyo, yambaye ishati yerurutse birasa n'aho agiye gusukura amenyo yiwe.

Abaganga babiri baryamishije umubyeyi ku gatanda, bamushyizeho akantu kamumurika mu kanwa barimo baramupima mu kanwa bareba amenyo ikibazo afite.

Umuganga yambaye itaburiya yambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi, ari muri mu nzu y'isuzumira, ari gufata ibintu akabisuzuma ubundi akandika ibisubizo yabonye.

Umukobwa afite akadodo mu biganza byiwe, yashinyirije cyane agashyize mu menyo, bisa nkaho byamunaniye ku gaca ako kadodo. Inyuma yiwe hari ibara ry'ubururu bwerurutse.

Umusaza ari mu bwogero, imbere ye hari ivomero, afite akantu mu ntoki bakoresha basukura amenyo, hari n'umuti uteretse uri mu ibara ry'ubururu, na wo bawukoreshwa boza amenyo.

Umuganga uri mu cyumba cyo kwa muganga, yambaye uturindantoki n'itaburiya, afite igishushanyo gishushanyijemo amenyo n'akuma mu ntoki, bisa n'aho ari kwiga uburyo yakwita ku menyo y'umurwayi, umurwayi amuganye arwaye amenyo, uburyo yamuvura.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ari ahantu hafite amabara yerurutse, afite akadodo mu biganza byiwe bibiri, yagashyize mu menyo, bigaragara ko ari gusukura hagati y'amenyo yiwe.

Umugabo wishimye yambaye ubusa mu gice cyo hejuru afite akadodo mu biganza byiwe bibiri ari kugerageza gukuramo imyanda mu menyo yiwe.

Abakozi bo kwa muganga basuye abana ku ishuri, hari abahagaze imbere ku kibaho, hari n'ibara ry'umuhondo, bari kwigisha abana uburyo baborosa bafite igishushanyo.

Umugabo yambaye agapira k'ubururu bwijimye, ari mu nzu ifite igikuta kitijimye, kerurutse. Yasamye ari kugaragaza amenyo, asa naho yishimye.

Umugabo yambaye ubusa hejuru, afite agahanagura amazi ku rutugu rwe, afite kandi akadodo kari mu biganza by'iwe bibiri, bisa naho ari kugakoresha mu koza amenyo yiwe.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibara ry'umweru, imbere harimo agatebe k'umuganga, hari n'utwo abikamo ibikoresho byiwe hari agatanda abarwayi baryamaho, hari n'igitara kiri hejuru y'ako gatanda.

Umugabo ukuze ari kumwe n'umubyeyi ukiri mutoya, bari mu nzu ifite amabara yerurutse. Umugabo yicaye ku ntebe imbere, afashe imashini umubyeyi ari kumuha imiti hari n'ikirahure giteretse cy'amazi ari kumwitaho ari kumwibutsa kunywa imiti.

Ababyeyi babiri b'igitsina gore, bari kumwe bigaragara ko bari kuganira baseka barishimiye, usheshekangu yambaye rinete afite n'icyuma mu ntoki, bari mu gikoni, ari gukata imboga.

Umusaza mukuru afite ubwanwa burimo imvi, ikirahuri cy'amazi mu ntoki. Yahaye umuganga bicaranye wambaye ishati y'ubururu, yamuhaye ikiganza ari kumushyiriramo ibinini, bisa n'aho ari kumwitaho ngo anywe imiti.

Umusaza ari kwa muganga ari kumwe n'umuganga, afite koma imbere yiwe akamufasha kugenda umuganga ari kugenda amufasha amwerekera kugira umusazo bitaza kumumarira akagwa, afite ikibazo k'imitsi ari kumwitaho kugira ngo abashe kugenda aya yari amabara akeye.

Abasheshakanguhe babiri umwe ni umugabo, undi ni umugore, umugabo yambaye agapira k'ubururu, umugore yambara akeru kanduye, umugore ari gusoma amabwiriza yo kunywa imiti, umugabo ari kureba ibyo ari byo.

Umubyeyi mukuru, ari munzu mu bwongerezo bw'amasahani, afite ikirahuri mu ntoki ndetse kirimo amazi, n'ibinini mu ntoki. Asa na ho agiye kunywa imiti, ariko yabitinye.

Abantu benshi cyane bavuye mu bihugu bitandukanye bigaragara ko bahuriye ahantu bari kwiga ku bijyanye n'ubuvuzi ku rwego rw'Isi, ikigaragara barishimye bari gufata amafoto y'urwibutso.

Abaganga benshi bambaye imyenda y'akazi bambaye n'udupfukamunwa bambaye uturindantoki bahuriye kumurwayi hano uryamye kugatanda bari kumufasha kugira ngo agarure ubuzima.

Igishushanyo ku mpande zaho hari ibara ryera, igishoyo kirimo amabara y'ubururu bwijimye ubururu ndetse n'ubururu bwerurutse n'umweru, kiriho amabwiriza cyangwa se amahame bakoresha mu buvuzi.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda y'imikara harimo n'andi mabara y'umweru n'ubururu bafite icyapa cyanditseho amagambo y'ubuzima gukangurira abantu kwisuzumisha, inyuma yaho hari amadarapo mu kugikuta mu inzu barimo ifite umubara y'umuhondo.

Ikigo nderabuzima gifite amabara yerurutse n'andi yijimye, hanze hicaye ababyeyi babiri n'abana babiri, bigaragara ko bategereje serivisi baje gushaka, hanze hari igipapuro kigaragaza ibyo bakora.

Inyubako yo kwa muganga, ifite ubusitani bwiza, hari ibiti birebire byiza ndetse n'indabo. Hari icyapa kigaragaza ibyo bitaro, hari abantu bahagaze bari kuhifotoreza, abazungu ndetse n'abirabura, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inzu y'ibitaro by'akarere ifite amabara y'umweru wanduye, amadirishya y'umukara, ifite amarido y'umweru, ifite akapa hanze kagaragaza ibyo ikora.

Umugabo ufite ubumuga bwo kutagenda yicaye mu kagare ari gusunikwa n'akana kambaye ikoti, ari kumwerekeza ahantu hari umuntu uhagaze asa naho abategereje kugira ngo bamufashe muri serivisi agiye kwaka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo udutanda twinshi tw'abarwayi harimo umugabo, yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara usa n'aho ahakora ari kugenda azamura inzitiramibu iri ku gitanda.

Inyubako yo kwa muganga, ifite amabara y'umweru n'ubururu, hari abaganga bambaye imyenda itandukanye, ubururu n'umweru wicaye. Imbere ye hari umurwayi, bigaragara ko ari kumubaza uko ameze, ari kumukorera isuzuma.

Imbere mu kigo nderabuzima harimo udutanda tw'abarwayi bigaragara ko ari abarwayi baba baryamye harimo n'ibyumba abaforomokazi baba barimo cyangwa abaforomo iyi nzu ifitemo amarange yerurutse.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa, yambaye akumvirizo mu gatuza, afite igipimo mu kuboko ari gushyira ku kuboko k'umwana w'umukobwa, ari kumupima, yicaye ku ntebe y'umweru, bombi, inyuma y'umuganga hari akabati ashyiramo imiti ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako yo kwa muganga yakira ababyeyi bagiye kubyara cyangwa babyaye n'abategereje kubyara, irimo ifite amabara y'umuhondo cyane n'indi y'umuhondo yerurutse, hari yanditsemo inyuguti zirimo ubu zandikishije ubururu zivuga iyo nzu ko ari iy'ababyeyi, imbere yayo hari abaganga bane bahahagaze bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamanwa.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu, bigaragara ko ari umuganga, yicaye muri biro ifite amarido yerurutse, imbere ye hari imashini, hakaba n'indi mbere yiwe igaragaza ibice byo mu nda.

Inyubako yo kwa muganga ifite amabara yerurutse ikaba yakira ababyeyi ndetse n'abana babo bavutse, ifite ikirangantego kiriho gishushanyijeho umubyeyi utwite, kerekana serivisi batanga iyo ari yo.

Inyubako yo kwa muganga ifite amabara y'umuhondo n'umweru, irageretse hasi hari aho imodoka ziba zihagaze, inyuma hari icyapa kigaragaza aho ngaho ko ari kwa muganga, kikaba kiriho na serivisi aho kwa muganga batanga.

Abagabo batatu bari mu cyumba k'inama, bari mu cyumba gifite amabara y'umweru, umugabo uhagaze ambashati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, bisa naho ari we uri gusobanura ibintu bari kwigwaho, bijyanye n'uburyo umuryango nyarwanda wagabanya Malariya mu Rwanda.

Inyubako yo kwa muganga yakira ababyeyi baje kubyara, ariko ntago iratangira; birasa naho ikiri nshyashya ntibarayitaha. Iyi nzu ifite amabara yerurutse, ndetse ifite n'uturabyo hanze.

Abaganga bari mu cyumba cy'umweru bambaye amataburiya y'umweru, bambaye uturindantoki, imbere yabo hari imeza iteretseho amavuta y'ibihwagari n'utundi twuma bisa naho bari kuganira.

Icyumba cyo kwa muganga hari agatanda umugabo aryamyeho bamushyizeho icyuma ku kaguru, akikijwe n'abaganga babiri n'abandi baje kumusura bisa naho yari yakoze impanuka bumiwe ukuntu ameze.

Umwana w'umukobwa yari ari muri siporo inyota iramwica, ahagaze ari kunywa amazi, afite icupa ry'amazi ku munwa, afite akantu ku kuboko gafata telefone mu gihe ari kwirukanka, ari muri siporo, yambaye imyambaro y'umukara.

Mu cyumba kirimo abantu babiri icyumba gikorerwamo ingororamubiri hari umusore wambaye imyenda yabugenewe hari n'umumamo usutamye iruhande rw'iyo asa nkaho arikumwerekera ingororamubiri agomba gukora imyitozo ngororamubiri agomba gukora

Ikirahure cy'amazi kiri gusukwamwo amazi aturutse mu ijage, hari umuntu ufashe iyo jage ariko ntagaragara hagaragara ikiganza cyonyine cyiyifashe, hari amabara yerurutse.

Umu mama yicaye mu bwato buri mu nyanja arasa n'aho bwije ariko ukwezi kwatangiye kurasa, afite icupa ry'amazi ari kunywaho.

Abaganga bari mu cyumba cyo kwa muganga, bicaye ku dutebe, bafite udukaramu n'amakaye, imbere yabo hari ubakubiye afite icyuma imbere yiwe ari kubahugura ku bijyanye n'uburyo bazajya bita ku barwayi, hari n'agatanda ko kwa muganga.

Umugabo yambaye umupira w'umweru afite utwumvirizo mu matwi birasa n'aho yara ari mu myitozo ngororamubiri, inyota iramwica yafashe agacupa ashyira ku munwa ari kunywa amazi.

Umugabo wicaye hasi yambaye imyenda ikoreshwa mu gihe k'imyitozo ngororamubiri, ifite amabara y'umutuku wijimye ndetse n'umukara, biragaragara ko yafashe akaguru ke ari ku kagorora gafite ikibazo.

Umwana w'umukobwa yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri yijimye yicaye hasi ku kantu k'ubururu yafashe ibirenge byiwe asa naho ari binanura abivura akoresheje imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uryamye hasi, bisa n'aho ari gukora imyitozo ngororamubiri. Inyuma ye hari icyuma kiziritseho umugozi, gifatishije ku kaguru kiwe. Hasa n'aho ari gushaka gukora imyitozo ngororamubiri mu gice cy'amaguru.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri. Afite agacupa k'amazi ku munwa arimo arafata amazi yo kunywa. Afite akantu ku kuboko yashyizeho telefone, karimo akumvirizo ashyira mu matwi ari kumva indirimbo mu gihe cya siporo.

Icyumba cyo kwa muganga kibamo imashini, harimo umuganga. Yambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa, yafashe umukobwa amushyira hejuru kuri icyo cyuma. Ari kumwereka imyitozo ngororamubiri yakora kugira ngo imufashe mu buzima bwa buri munsi.

Umukobwa yicaye hasi yambaye imyambaro yambarwa mu giye bari gukora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu hari amabara yururutse, ari kwigorora kugira ngo umubiri wiwe ugende neza.

Umukobwa yicaye hasi yambaye imyambaro yo gukorana imyitozo ngororamubiri arikunanura umugongo n'akaguru, afite ibyumviro mu gutwi ku kuboko yakuzirikiyeho telefone iruhande rwe hari icupa ry'amazi.

Umugabo yambaye umupira w'ubururu, yambaye n'isaha ku kuboko arasa n'aho ari hanze afite icupa ry'amazi mu kiganza cye arishyize ku munwa ari kunywa amazi.

Umuganga yambaye itaburiya y'umweru, umurwayi yambaye ubururu, yicaye mu kagare, umuganga yamufashe akaboko, hari akantu k'akuma yamushyize mu kiganza, kugira ngo amukoreshe imyitozo ngororamubiri y'akaboko gafite ikibazo, kugira ngo karambuke.

Umusore ukiri muto yambaye umwenda wa siporo ufite amabara y'umutuku n'umukara, yari ari mu kibuga cy'umupira, aho yari ari gukina. Agize ikibazo ari gukina, umugabo aramufata agiye kumufasha kugira ngo arebe ko yamuvura.

Abasore bane bari gukora siporo, barasa n'aho bari kwirukanka cyane, bambaye imyenda y'imyabaro yabo itandukanye, ifite amabara y'umukara n'ubururu bwerurutse ndetse n'iroza.

Icupa rifatiwe mu kirere bazamuye ukuboko, hari kugaragara ibicu by'ubururu n'umweru, icupa ryuzuye, amazi rifashwe n'ikiganza cy'umuntu.

Umukobwa aryamye ku buriri yavunitse akaguru, mugenzi we yamushyiriyeho ibyo bita barafu ku ivi kugira ngo bimufashe kugabanya ububabare.

Abantu benshi cyane harimo n'abana, babashyize ku murongo, bisa naho bari mu kibuga kinini cyane, bakiniraho imikino y'imyidagaduro, barasa naho bari kubakoresha imyitozo ngororamubiri.

Ikirahuri giteretse ku meza, kiri gusukwamo amazi avuye mu ijage ifashwe n'umuntu utagaragara, hari ikiganza cyonyine. Biteretse ahantu hari urumuri, ibara rirerurutse.

Icyapa kimanitse ku gikuta cy'umweru, kiriho abantu benshi batandukanye, bari gukora imyitozo ngoromubiri itandukanye, hariho undi uri kunywa amazi, basa n'abari kwigisha uburyo barwanya umwoma.

Imipira y'ubwoko bwinshi iratandukanye ifite n'amabara atandukanye iteretse ahantu hasi hafite ibara ry'umweru wanduye hari n'akumvirizo abaganga bakoresha bashyira ku mu nda bari kumva cyangwa ku mutima.

Umugabo ari kwa muganga, inyubako ifite amabara y'umweru, yicaye hanze asa naho bamubwiye ko agomba kunywa amazi, afite icupa ry'amazi mu ntoki yashyize ku munwa, ari kunywa amazi.

Abagabo babiri bari mu nzu ifite amabara y'umweru hasi ni agacyatsi kerurutse n'umweru, harimo ibikoresho byinshi byo gukoresha imyitozo ngororamubiri. Abagabo harimo uwambaye ikabutura yambaye ipantalo bafite imipira ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri imikino bariho barakina.

Uducupa duteretse ku meza, hari uburoso bw'ayo menyo; utu ducupa turimo imiti yoza amenyo, ituruka ku bihingwa. Hari ifoto, igaragaza amenyo y'umuntu, bisa naho bari kwerekana ko ukoresheje uyu muti, amenyo yawe amera.

Tungurusumu ni nyinshi zigeretse ahantu ziba zimeze nk'utubuto z'umweru, izi bazikoresha imiti itandukanye, bazivurisha bazifata nk'imiti ya gakondo.

Ibyatsi byakuriye mu gisambu, bikura bisa n'aho birandanga bitazamuka ngo bibe birebire, babikoramo imiti ya Kinyarwanda.

Ibyatsi byinshi biteye ahantu bisa n'aho ari mu gisambu biratandukanye, ibi byatsi babikoresha mu kuvura, babikoresha mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Uducupa twinshi dutandukanye turimo imiti n'amavuta bisiga ariko ikomoka ku bihingwa cyangwa se ku bimera bakoze muri iyo miti cyangwa muri ayo mavuta.

Tangawizi iteretse ahantu, indi irakasemo uduce na two duteretse iruhande rwa ya yindi. Iyi bayikoresha ibintu byinshi, bivura indwara zitandukanye. Iri ahantu hari amabara y'umweru.

Icupa riteretse ahantu h'umweru rishushanyijeho ibihingwa ndetse n'imbuto, bakaba babikoresha mu kwivuza imiti ya kinyarwanda bakoresha bivura.

Amashashi atanu ariho ibyatsi n'imbuto, ibyatsi bikaba byifashishwa mu miti ya kinyarwanda ndetse ukaba wanabinywa kugira ngo bigufashe mu buzima busanzwe. Hari imbuto z'indimu, indimu bayikoresha bivura indwara nyinshi.

Icupa ry'umweru rifitemo andi mabara yijimye, rirapfundikiye agacupa k'umweru, riteretse ahantu hari amabara yerurutse, umweru ririmo imiti bakoresha mu miti ya kinyarwanda.

Agacupa karimo ibara ry'iroza gapfundikijwe agafuniko k'umweru gateretse ahantu hera, hari igishushanyo cy'umugabo n'umugore hari n'akandi gashushanyo kari mu ibara ry'icyatsi kavuga ku bijyanye n'indwara uyu muti uvura.

Igihingwa gitetse ahantu herana cyane bakivanye mu butaka, bisa n'aho bari kukigiraho bari kwerekana ko bagikoresha mu miti ya kinyarwanda.

Ibihingwa biteye mu tuvaze tukaba duteretse ku gitanda cy'icyuma cy'umweru, bisa n'aho bagirango ngo bitazangirika, ibi bihingwa babikoresha mu miti ya kinyarwanda.

Umubyeyi ari ahantu hasa n'aho bari gucuruza imiti ya Kinyarwanda myinshi itandukanye. Bari kugenda bakira abantu babagana batandukanye, bari kuvugana n'undi mugabo usa n'aho yari aje kugura iyo miti.

Urugo rw'ibiti ruri hasi hari ibitaka, hari igiti kimejeje ariko kivura, bagikoresha bavura. Ni igiti bifashisha mu mu kuvura, bagikoresha (mu ku) mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Uducupa dutandukanye turi mu mabara atandukanye, turimo umuti uturuka ku bimera cyangwa ku bihingwa, duteretse ahantu hari umweru, hari amarangi y'umweru amabara, iyi miti ushobora kuba wayisiga, ukeneye kuvura uruhu cyangwa ukayinywa n'izindi ndwara.

Agacupa k'umweru gateretse ahantu kandi karapfundikiye, kari ahantu hijimye cyane, karimo imiti ya kinyarwanda abantu bivurisha.

Amacupa atandukanye ateretse hasi. Ari mu ducupa dutandukanye tw'amabara atandukanye. Harimo imiti ya Kinyarwanda ukoresha wivura.

Icupa rinini riri kumwe n'agatoya, riteretse ku meza, ririmo imiti ikomoka ku bihingwa, iyi miti bayikoresha bivura ariko akaba ari imiti ya kinyarwanda.

Uducupa duteretse kandi dupfundikiye dutandukanye turi ku meza y'ibiti, utwo ducupa turimo imiti ya kinyarwanda igiye itandukanye bitewe n'indwara umuntu arwaye.

Uducupa cyangwa utujerekani dupfundikiye duteretse ahantu turimo imiti, inyuma yaho berekanye imiti irimo igihingwa ikomokaho.